Abagabo n'abagore bicaye mucyumba cy'inama, icyumba kirimo intebe z'umutuku, amarido y'irose ndetse n'utwuma tw'umweru bakunda kwita uturindada basazi.

Umugore munini wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umutuku, wambaye n'isaha ukuboko ndetse n'impeta, amaherena n'amarinete ndetse n'umusore wambaye ikote n'ishati y'umukara, hagati yabo bahagaze umudamu wambaye umukenyero n'agasengeri k'icyatsi, bari kumuha ishimwe ry'uko yahize abandi mu mihigo.

Umusaza wambaye ishati y'umukara n'ingofero y'umukara birimo ibirango by'ubururu, umweru n'umutuku bya FPR, afite indangururamajwi mu ntoki ubona ko ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari ibirango byishyaka rya FPR.

Umusore muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'umuhondo n'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, arimo aratanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari ibirango by'ubururu byanditseho n'amabara y'umweru n'umuhondo ndetse hari n'umugabo wambaye umupira w'umweru.

Ihema rinini cyane rifite ibara ry'umweru, ririmo abaturage benshi, abana, abagore, abagabo, abasaza, abakecuru, urabona ko bakurikiye imbwirwaruhame.

Umusambi urambuye hasi mu bitaka, umusambi ni igikoresho bifashisha bicaraho, cyangwa banikaho imyaka. Umusambi ukoze mu byatsi bita ubusuna bihingwa mu kabande.

Ababyinnyi b'abakobwa babyina imbyino za gakondo, bambaye imishanana y'umweru, urabona ko bari mu nzu iberamo ibirori ndetse bakikijwe n'abitabiriye ibyo birori.

Abakobwa n'abahungu bambaye imyambaro gakondo ya Kinyarwanda, bamwe bicaye hasi abandi barahagaze, urabona ko hari intebe yicayeho umwe ugaragara nk'umwami n'umwamikazi yicaye hasi ari kumwe n'abaja, umwami na we iburyo n'ibumoso afite abagaragu bafite icumu n'ingabo.

Amayugi, agakoresho gakoze mu ruhu ndetse n'ibyuma bitandukanye, hakabamo utuntu tujegera mo imbere.

Umugabo wambaye imyenda y'umuhondo arimo arabaza akameza gatoya yifashishije imashini baza tuzi nka ponseze, iruhande rwe hari indi mashini nini ifite ibara ry'ubururu hariho utuntu tw',umutuku hasi hari ibarizo, inyuma ye akikijwe n'utwana dusa nk'aho turi kwitegereza ibyo akora.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu, ifite inkingi y'umuhondo, iy'icyatsi ndetse n'iy'ubururu, hahagaze abantu imbere y'iyo nzu urabona ko ari ibiro by'akagari, imbere hateye igiti kirekire kiriho ibendera ry'u Rwanda

Urwibutso, kuri urwo rwibutso hari ihema rinini, muri iryo hema hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati ndetse na karuvate, uwo mugabo afite indangururamajwi y'umukara arimo aratanga imbwirwaruhame.

Umusaza wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'ishati y'umukara yanditseho kwibuka ku nshuro mirongo itatu, ateruye ururabo, inyuma ye hari abayobozi b'inzego batandukanye ndetse n'abaturage, barimo baraha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwibutso rwo ku Muvumba.

Abagabo ubona ko biyubashye ari nk'abayobozi, baherekejwe n'abapolisi inyuma yabo, bari mu rugendo, bari kugenda mu kayira gakikijwe n'insina ndetse n'ibiti, hepfo yabo hari imodoka zitandukanye, eshatu, harimo n'iya polisi twita pandagali.

Abagabo, abagore, abakecuru, abasaza, abana batoya, abanyeshuri, urubyiruko muri rusange, abambaye imipira y'umweru, abambaye iy'ubururu, abambaye iy'umuhondo, bicaye mu ihema rinini bari mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi.

Mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, kuri uwo muhanda hariho amapironi ajyana insinga z'amashanyarazi, hakurya hari ingo zitandukanye ndetse n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo, kuri uwo muhanda hubatse amazu y'ubucuruzi agezweho, muri uwo muhanda harimo ikamyo y'umukara n'umweru ndetse muri iyo kamyo inyuma, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, iyo kamyo yanditseho yuniti.

Ikibuga bigiramo gutwara imodoka, kirimo imodoka, kirimo abantu, kirimo utuntu duto tw'umutuku benshi bita amakona, twifashishwa mu kwiga gukata.

Ibati ry'umweru ibyometseho igishushanyo mbonera, ku gishushanyo mbonera urabona ko hariho inzu igeretse impande y'inzu hakikijwe n'ibiti, ndetse n'urupangu, munsi y'igishushanyo mbonera hariho amazina y'uwubakisha ndetse na nimero.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo, icyo cyapa cyanditseho amacumbi cyegereye urupangu bigaragara ko rurimo ayo macumbi.

Umuhanda wa kaburimbo, kuri uwo muhanda harimo harakaho amatara, biragaragara ko ari nijoro. Ku ruhande hari icyapa cya mpande eshatu, gisa umutuku harimo ibara ry'umweru n'uturongo tw'umukara n'umugenzi uri gutambuka. Icyo cyapa gisobanuye ko hafi aho ari aho kwambukira.

Abaturage benshi bari mu ishyamba, bamwe bafite ibitiyo, abandi bafite amasuka, abandi bafite imihoro, hagati muri iryo shyamba, barimo barakoramo umuganda bacamo inzira.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ingofero y'ubururu, n'amataratara afite indangururamajwi mu ntoki, ndetse n'urupapuro ahagaze mu busitani inyuma ye hari intebe ndetse hari n'umupolisi, uwo mugabo ari gutanga imbwirwaruhame.

Abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano zirimo abasirikare bari mu muhanda bikoreye amabuye, iruhande rw'umuhanda hari umurima uhinzemo ibigori ndetse hateyemo n'ibiti.

Abagabo batatu bari mukibuga cy'umupira w'amaguru, bamwe bambaye imyenda y'ubururu bwijimye, undi yambaye iy'umuhondo, undi yambaye iy'umutuku n'umukara, iruhande rw'icyo kibuga hubatse inzu.

Ikibuga cy'imyidagaduro cyagenewe gukinirwamo umupira w'amaguru, gifite ibara ry'icyatsi ubururu, ndetse n'umuhondo, hicayemo abantu basa n'abarangije siporo, imbere yabo hari umugabo uhagaze uri kubaha imbwirwaruhame. Uwo mugabo afite indangururamajwi mu ntoki.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, bari mu kibuga ubona ko kirimo umusenyi, ikipe imwe yambaye ubururu indi yambaye ubururu bwerurutse, urabona ko hari umukinnyi uteze undi kuko umwe agiye kugwa hasi.

Umukinnyi uri mu kibuga cy'umupira w'amaguru, yambaye amasogisi y'umweru arimo uturongo tw'umukara, yambaye n'agapira n'ikabutura by'ubururu bwijimye, yambara nimero cumi n'esheshatu, hirya gato hari abandi bakinnyi barimo baranywa amazi.

Abantu benshi harimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda ya siporo, barimo biruka mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'indabo.

Abakinnyi bambaye imyenda y,ubururu, bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, ikibuga kigizwe n'umucanga, gikikijwe n'ibyatsi ndetse n'urupangu runini cyane, rwubakishije amatafari ahiye y'umutuku ndetse hariho amabara y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari babiri bari kugenda bamanuka, impande y'uwo muhanda hari abandi bamotari baparitse ndetse ku rundi ruhande hariho n'abagenzi bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo, kuri uwo muhanda haka akayira k'abanyamaguru, hagati ya kaburimbo ndetse n'inzira y'abanyamaguru, hari akantu kabitandukanya kagizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Umukobwa wambaye inkweto z'umukara, ijipo y'ubururu n'umupira w'umukara uri kuri telefone, ari mu gahanda kagenewe abanyamaguru, impande ye hateye ibiti bitandukanye ndetse ruguru ye urabona ko hari igisambu. Imbere ye gatoya urabona amapironi atandukanye.

Imirima minini cyane, hakurya yayo hari mazu ya kadasiteri. Muri iyo mirima hari irimo ibiti, hari ihinzemo ibihingwa bitandukanye, hagati mu mirima harimo akayira k'abanyamaguru kagera kuri za nzu.

Inzira y'ibitaka, urabona ko ari inzira icamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, muri iyo nzira hatangiye kumeramo utwatsi dukeya.